Abantu bicaye mu cyumba ahantu, b'ingeri zitandukanye, hakaba harimo amarido asa shokora, n'akandi kantu k'umukara kari ku meza atagaragara neza, abantu bafite amakaramu mu ntoki zabo ndetse n'ibitabo.

Abagabo bicaye ahantu hari kubera inama, imbere yabo hakaba hari mudasobwa n'uducupa tw'amazi, hirya hakaba hari icyapa kinini kigaragaza ikigo bakorera muri icyo cyumba hakaba harimo ibara ry'umuhondo, shokora.

Abantu bicaye mu cyumba gisa n'aho hari kubera inama, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hakaba hari amazi y'inyange n'utwuma twakira amajwi na mudasobwa, bakaba bambaye mu buryo butandukanye, umudamu ufite ibisuko wambaye agashati k'umweru karimo utubara tw'ubururu na rinete.

Abadamu batatu bicaye ku ntebe hakaba hari ameza begetse amaboko yabo hari igitambaro gisa shokora ndetse n'ibara ry'umweru, uducupa twa'mazi turi iruhande rwabo, ufite telefone mu ntoki ziwe n'undi ufite igitabo kinini ari kureberamo wambaye rinete.

Abantu bicaye mu cyumba kimwe, imbere yabo hakaba hari amazi y'inyange n’icyapa kinini kiri ku ruhande kirimo amagambo y’umukara agaragaza bimwe mu biri gukorerwa aho ngaho, agace gato k'ikiganza cy'umuntu utagaragara neza n’umugabo uhagaze uri kwandika ku rupapuro wambaye ishati y’umweru.

Abantu bicaye mu nama akaba ari abagabo bane, umwe akaba yifashe ku itama n'agacupa mu ntoki ziwe, akaboko ke k'iburyo gafite isaha; hirya hari undi mugabo wambaye ikote n'ishati irimo uturongo, undi na we akaba ari kureba ku ruhande.

Abantu bicaye mu cyumba harasa n'aho hari kubera inama, bakaba bambaye mu buryo butandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru, ameza ari imbere yabo hakaba hari uducupa tw'Inyange n'ibyuma byakira amajwi, ibipapuro biri imbere ku meza.

Icyumba kimwe gifite amarido atukura arimo n'utubara tw'umweru abantu barimo bicaye ku ntebe zitukura, bakaba bakikije ameza y'imbaho imbere yabo hakaba hari impapuro n'amacupa y'amazi y'Inyange, bakaba bafite n'amakaramu n'impapuro.

abantu benshi bahuriye ahantu hakaba haari umuntu ufite agasatsi gake wambaye imyenda yu'ubururu kugaragara hiryaka hari inzu ya shitingi irimo ibara ry'umweru n'ubururu ikigega kinini cyane imbere yabo hakaba hari icyapa kigaragaza ibiri kubera ahongaho hirya hari ibiti binini n'inyubako igaragaraho amabati'umutuku

Abantu b'ingeri zitandukanye biciye ahantu mu cyumba kimwe, harimo abazungu n'abirabura, umumama wambaye akenda ka oranje ufite imisatsi y'umukara, imbere afite mudasobwa n'ikirahure kiri imbere yiwe, undi umwegereye na we afite icyo kunywa mu gikombe gisa umweru, hirya hari umuzungu wifashe mu kiganza, inyuma yabo hari abantu batandukanye.

Icyumba kimwe cyicawemo n'abantu b'ingeri zitandukanye, hakaba hari ibyapa bigaragaza imwe mu nsanganyamatsiko z'inama ziri kubera aho ngaho, abambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abambaye oranje, imeza bicayeho zirimo amabara atandukanye ibitambaro byayo, amatara hejuru, ibara ry'ubururu ryiganje hasi...

Abantu b'ingeri zitandukanye bakikije ameza ariho mudasobwa, n'udukayi ndetse n'uducupa tw'amazi ya nili. Harimo umugabo wambaye umwenda w'icyatsi urimo utubara tw'umukara n'umweru, ku ruhande wifashe ku bwanwa n'umugore.

Abagore n'abagabo bicaye ahantu mu cyumba runaka, hari abagabo bambaye imyenda y'ubururu n'abamama bambaye imyenda irimo amabara atandukanye, uwambaye agatambaro k'iroza n'agashati gatukura akantu ku kaboko kiwe, undi mugenzi we yambaye rinete.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara, bakaba bari ku meza bashyizeho amaboko, imbere yabo hari amazi y'Inyange n'amakayi bari kwandikiraho n'amakaramu mu ntoki zabo, umumama wambaye agashati k'umutuku n'akandi karimo utubara dutandukanye, ufite imisatsi myiza, wisize akantu ku munwa gatukura, hirya ye hakaba hari undi wambaye umwenda w'igitenge n'umumama wambaye rinete.

Umumama wambaye ipantaro y'ubururu bwijimye cyane ahagaze imbere y'abantu benshi afite ibisuko birebire n'agashati yambaye karimo utubara dutandukanye, aho hantu hari undi mama uhagaze usa n'aho ari kunyura inyuma ya mugenzi we.

Ahantu hari kubera ibiganiro, umugabo ufite inyakiramajwi mu ntoki ziwe n'imbere ye hakaba hari abandi bicaye, yambaye ishati y'umweru n'ikote n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hari icyapa kigaragaza ibiri gukorerwa aho.

Abantu batatu batandukanye bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari ameza ariho amazi yo kunywa, umumama ufite imisatsi y'umuhondo wambaye amadarubindi n'umugabo wambaye ishati ya oranje, ruguru hakaba hari umukobwa wambaye ikote ritukura n'agapira k'umweru mo imbere.

Inzu iri kuberamo inama ifite inzugi ebyiri zitandukanye, rumwe rukaba rukinguye, hagati hari umugabo wahagurutse mu nama, uri kuganiriza abicaye bateze amatwi, imbere yabo hari uducupa tw'amazi y'Inyange na mudasobwa ziri imbere yabo.

Ahantu hari kubera ibiganiro hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye ku ntebe z'umukara, bambaye mu buryo butandukanye, umugabo usa nk'aho afite uruhu rwera, n'utuvi tw'umukara, umukobwa uri inyuma ye wambaye imyenda n'agasengeri karimo umweru, n'udukweto, n'isakoshi imuri imbere.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama ku ntebe z'imikara bakaba ari abo mu ngeri zitandukanye abagore n'abagabo, imbere yabo hari uducupa tw'amazi y'inyange n'utwuma dutanga amajwi na ekara iri imbere yabo ku meza atukura.

Abantu benshi bicaye mu cyumba gikorerwamo inama, bakaba bafite mudasobwa imbere yabo, bambaye imyenda itandukanye, umugabo wambaye ishati y'umukara, n'undi umuri iruhande, umumama wambaye agashati k'umuhondo, hirya ye hakaba hari undi mugabo witangiriye itama, n'umumama wambaye agashati kajya kuba iroza.

Abantu bicaye mu ntebe z'umukara mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo hakaba hari inyakiramajwi na mudasobwa zibari imbere, uducupa tw'amazi y'Inyange n'utundi dukoresho tubari hafi yabo, ameza.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu matsinda, ahantu hari kubera inama, imbere yabo hari amazi y'Inyange, ikaramu ndetse n'impapuro na terefone zabo ziri ku meza bicayeho, n'ibindi bitabo bari kwandikamo.

Umumama wambaye imyenda y'icyatsi uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi ufite akuma kakira amajwi, akaba ari kuvugira mu ruhame imbere y'abantu batandukanye bari muri ihema ririmo ibara ry'umweru, ubururu, umuhondo, n'icyatsi, bakaba bari mu nama.

Abantu bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, umugabo muremure wahagurutse ufite utuvi mu mutwe we akaba yambaye ishati ubona ko abandi bicaye hari ufite telefone mu ntoki ze imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi ya Nile n'impapuro.

Abagabo babiri n'abagore batatu bicaye imbere y'abandi bantu benshi batandukanye, hakaba ari icyapa kirimo amagambo atandukanye agaragaza mu by'ukuri insanganyamatsiko y'ibintu biri kubera aho ngaho muri icyo cyumba cy'inama.

Umu mama wambaye ikanzu nziza irimo amabara atandukanye umutuku, umweru n'agapira k'umukara, afite inyakiramajwi mu ntoki ze, yambaye rinete afite n’ibisuko, inyuma ye hari icyapa kirimo amagambo atandukanye, agaragaza ibiri gukorerwa aho ngaho.

Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama, umudamu wambaye ikanzu y'umuhondo ufite urupapuro mu ntoki ziwe, iruhande rwiwe hakaba undi wambaye iby'umweru, imbere yabo hakaba hari mudasobwa n'ibyuma bifata amajwi,

Icyumba kimwe kicayemo abantu b'ingeri zitandukanye bakaba bicaye ahantu hari ameza ariho ibipapuro by'umweru n'amakaramu mu ntoki zabo agacupa k'amazi y'Inyange bakaba bambaye imyenda itandukanye abadamu bafite ibisuko n'utumikoro turi imbere yabo.

Abantu benshi bahagaze mu cyumba kirimo intebe n'ameza, uducupa tw'amazi imbere y'ayo meza, bari gukoma amashyi basa naho bari kuririmba, hari uwambaye amarinete n'imyenda y'umweru, undi ikote n'ipantaro yaryo.

Ahantu hasa naho hari kubera inama harimo abantu b'ingeri zitandukanye bambaye amarinete, bakaba bafite ibisuko, hari umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ikote, n'umudamu imbere yabo hari amacupa arimo ibyo kunywa runaka na mudasobwa n'ibitabo.

Abantu benshi cyane bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, imbere yabo akaba ari uducupa tw'amazi ya nili, n'amatelefone ari imbere yabo ku meza ariho igitambaro cy'umweru, abadamu bambaye, hari uwambaye agapfukamunwa ufite ibisuko, n'undi wambaye agashati k'ubururu, n'akantu k'umweru, ku ruhande rwe uwifashe neza ufite.

Abantu bicaye mu cyumba kiri gukorerwamo inama, bakaba bakikije ameza manini ariho uducupa tw'amazi y'Inyange, ariho igitambaro cy'umukara, umugabo wambaye ikote ry'umutuku n'amarinete wageretse akaguru ku kandi, iruhande rwe hakaba hari undi wambaye ingofero n'agapfukamunwa.

Abantu benshi batandukanye bicaye mu ntebe, bisa n'aho hari kubera inama. Imbere yabo hari abandi bicaye ku ntebe z'umukara, icyapa kinini cyane kigaragaza iby'iyo nama barimo ibiri kuhakorerwa.

Abantu benshi bahuriye ahantu imbere yabo bakaba bafite uducupa tw'amazi hakaba hari umugabo wambaye cositime afiteyakiramajwi mu ntoki ze aho hantu hari amarido, hirya ha akaba hari icyapa kigaragaza ibyo bari kuhakorera.

abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mucyumba gisa n'aba ki gukorerwamo inama ku ntebe z'umweru bambaye imipira y yumukara irimo utuntu tw'utuze dusobekeranye hirya akaba ari ibendera ry'igihugu cy'u rwanda mubu ubururu umuhondo n'icyatsi umukobwa wambaye agashnette mu ijosi rye Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu cyumba gisa nkaho kiri gukirerwamo inama, bicaye ku ntebe z'umweru bambaye imipira y'umukara irimo utuntu tw'utuzero dusobekeranye, hirya hakaba hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda mu bururu, umuhondo n'icyatsi. Umukobwa wambaye agashaneti mu ijosi rye.

Ahantu hari abantu bicaye ku ntebe z'umukara, umugabo wambaye kositimu na karuvate y'ubururu uri kuganiriza abadamu bicaye, imbere yabo hari uducupa tw'amazi y'Inyange n'amasakoshi yabo, hari ufite ikaramu mu ntoki ze n'agakayi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, hakaba hari intebe ziticayeho abantu, inyuma yabo hari ameza manini, iruhande rwabo hakaba hari igikapu, bamwe muri bo bafite ibitabo mu ntoki zabo n'amakaramu imbere yabo, hari uducupa tw'amazi ya Nile ku meza yabo, hariho utundi tuntu turimo amabara y'umutuku n'ubururu.

Abagabo batatu bicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, bakaba ba imbere yaho hari mudasobwa, umwe akaba yifashe ku kananwa yambaye rinete, inyuma ye hari undi wambaye ingofero y'umukara irimo akantu gatukura, undi wicaye ku ntebe y'umukara wambaye karuvate na kositimu y'umukara n'amarinete.

Icyapa cy'uburu kirimo amagambo y'umweru agaragaza ukuntu wakoresha ikoranabuhanga cyangwa se telefoni igendanwa, ukamenyekanisha umusoro ku nyungu ukoresheje iyo telefone yawe, ukanda akanyenyeri, magana inani, urwego ugakurikiza amabwiriza.

Abana bicaye ku ntebe z'ishuri, imbere yabo hakaba hari mudasobwa zifite ibara ry'umweru n'icyatsi ku ruhande, hakaba hari umwana urangaye uri kureba ndetse hirya hakaba hari abandi bana bareba muri mudasobwa bari kuyikandamo.

Abagabo babiri bicaye mu cyumba kimwe, umwe akaba afite mudasobwa imbere ye n'akantu akandaho kamufasha kuyobora mudasobwa, imbere ye hakaba hari impapuro, yambaye umupira w'umukara urimo uturongo tw'umweru n'umutuku, iruhande rwe yambaye ingofero y'umukara n'agapira k'icyatsi karimo uturongo tw'umweru.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti mu magambo arambuye, hasi hakaba ari utugambo tw'umukara tugaragaza ukuntu ushobora kwishyura imisoro.

Umukobwa wicaye imbere ya mudasobwa akaba afite ikaramu mu ntoki ze, wambaye rinete n'ibisuko, wambaye agashati k'umweru, imbere ye hahagaze umusore wambaye umupira w'icyatsi ufite ubwanwa n'agasatsi gakaraze, inkweto z'umukara uhagaze ku kantu k'ubururu.

Umumama wambaye akenda k'umuhondo n'uduherena tureture usutse ibisuko, hirya ye hari amadarapo, idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hakaba hari n'ikirangantego ku rundi ruhande rwiwe, kirimo utubara dutandukanye.

Ukuboko kumwe kumeze nk'aho ari uk'uruhinja n'ikiganza gifite urushinge mu ntoki cyegereza ka kaboko gatoya twabonye, imbere hari amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umuhondo n'umweru, yanditseho ngo hasigaye iminsi ibiri, turi kuwa makumyabiri n'ebyiri.

Akapa k'ubururu karimo amagambo y'umweru, hasi hakaba hari amagambo aho wakandika yuzanemu. Ndetse hakaba hari n'utundi tuntu tw'icyatsi. Hasi hakaba hari inyubako zitandukanye, n'ibyatsi, n'ibiti.

Icyapa kinini cy'ubururu kirimo amagambo atandukanye muri gahunda ya byikorere irembo, terefone iri inyuma y'umugabo wambaye ipantaro y'umweru n'ishati, uturinette turi ku ishati n'ikoti inyuma ye, hakaba hari telefone igaragaza uburyo ibyo bintu bikorwa.

Umuhanda wegereye isoko, imbere yaho hakaba hari abantu b'inberi zitandukanye. Umama wambaye igisarubeti urigukubura wambaye agatambaro mu mutwe. Imbere hakaba hari umubyeyi n'undi mumotari uhetse moto. Hafi aho hakaba hari n'imodoka.

Umuhanda ukikijwe n'ibyatsi, ku ruhande hakaba hari n'ibiti, ipoto rirerire ririho insinga z'amashanyarazi, hakurya hakaba hari inyubako zitandukanye zikorerwamo ubucuruzi, imbere yaho hakaba hari imitaka, imodoka n'izindi nyubako ziri inyuma y'izo ha,,,

Agace gatoya kariho ibitaka n'ibyatsi, hirya hakaba hari inyubako igeretse n'ibindi byuma bitandukanye biri hagati aho ngaho, iminara ibiri iteganye n'insinga z'amashanyarazi, hepfo hakaba hari amabati atukura, ibyatsi n'ibiti bikikije aho ngaho, imodoka ziri hagati muri icyo kibuga.

Uruzitiro rw'amatafari ahiye, imbere muri rwo hakaba harimo igiti kinini cyane n'inyubako iri kugaragara idirishya agahande kamwe, hino hakaba hari itara cyangwa se ipoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda munini w'ibita ukikijwe n'ibyatsi n'amabuye hiryakaba hari ari uruzitiro rw'umweru mw'imbere hakaba haririmo inyubako ifite amabati y'umukara, ipoto rirerire rikikijwe n'insinga z'amashanyarazi, ibiti biri iruhande rwaho n'indi nyubako.

Umuhanda ukikijwe n'inyubako zitandukanye, ibyatsi n'ibiti, ipoto rirerire ritanga amashanyarazi n'amatara ku muhanda, ruguru hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi n'imodoka ndetse n'ibiti...

Inyubako y'umuhondo ifite amabati atukura n'amadirishya y'umweru imbere yaho hakaba hari ibyatsi, amapoto maremare n'insinga z'amashanyarazi, hirya hakaba hari uruzitiro rw'amatafari ahiye rufite igipangu cy'umukara hakurya, hakaba izindi nyubako zitandukanye.

Imodoka itukura iri kugenda mu muhanda imbere yaho hakaba ari ibyapa bibiri bitandukanye n'indi nyubako iri hejuru isa naho itaruzura neza, ibyo byapa hakaba harimo amagambo atukura, ay'umukara n'ubururu hasi n'akandi kapa gatoya kari hafi aho ngaho.

Ahantu hari ifoto rirerire ry'amashanyarazi n'insinga zinyuranyuranamo, agace gatoya k'umuhanda katagaragara neza n'inzira yababagenzi, uruzitiro rw'ibyatsi n'urundi rw'umweru.

Umudamu wambaye ijipo y'umweru n'agakote k'umukara n'akantu gatukura kari mu ijosi rye, uhagaze mu muhanda w'igitakaku urimo ibyatsi n'akazu k'umuhondo ka MTN, ipoto rirerire n'igipangu kiri inyuma yaho harimo inzu ya kadasiteri.

Agace gato k'umuhanda ukikijwe n'ibiti n'amapoto maremare, iruhande rwaho hahagaze umumama wambaye ikanzu y'umweru irimo amabara y'umukara, imbere ye hakaba hari umufuka n'ibase imuhagaze imbere y'umutuku, hirya ye hakaba hari icyapa.

Ahantu haparitse imodoka yo mu ibara ry'icyatsi hasi hakaba hari umuhondo, imbere yaho hari uruzitiro rufite igipangu gisa na shokora, mo imbere hakaba harimo amabati asa na oranje, hakurya hakaba hari hari inyubako zitandukanye, hino hakaba hari ipoto rirerire n'itara ryo ku muhanda, idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda n'igiti kiri imbere yaho.

Agace gato k'umuhanda karimo ibyuma bitandukanye, hejuru hakaba hariho umukara n'ikindi kirekire kimeze nk'ipoto, inyuma hakaba hari indi nyubako iriho akantu k'umweru ku ruhande n'akandi ko hejuru, hakaba hahagazwe imbere n'abadamu babiri bambaye ingofero z'umuhondo.

Icyapa kinini cy'umweru kiriho amagambo atandukanye, harimo ibara ry'icyatsi n'umukara, hejuru hakaba hari agatara, hirya hakaba hari uruzitiro rw'ibyatsi, amabati atukura n'ibitaka iruhande rwayo, rurimo n'amabuye n'umuferege w'amazi.

Umuhanda uri kwerekeza ku kigo kinini cy'ibitaro bya CHUK, hakaba hariho ibyapa bigaragaza ibihakorerwa, umugabo munini uri ahantu hinjirira imodoka, inyuma ye hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda n'imodoka ziparitse hafi aho n'inyubako zigaragaza ibihakorerwa.

Umuryango umwe ukinguye wiumweru, hasi hakaba hari amakaro ndetse n'umuferege w'amazi muri iyo nyubako harimo abantu bicaye ku ruhande rwa ruguru n'urwo hepfo hakaba hari udutara turi kwaka cyane turi hejuru yabo, abantu rero bambaye imyenda itandukanye...

Akayira gatoya kari kunyurwamo n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umutuku n'inkweto z'umweru, imbere ye hakaba hari guhinguka umukobwa ufite imisatsi, wambaye iby'umukara, ruguru aho hari abamama bicaye ku gasima kari hafi aho ngaho gakikijwe n'amabuye, arimo akarange k'umweru n'umukara.

Inyubako nini ngereretse, ifite utuntu two twuyuma ku ruhande, isa n'ibara ry'umweru, aho imbere yaho hakaba hari imodoka, n'igiti kiri inyuma yayo n'izindi modoka zitukura ziri imbere, hafi aho hakaba hari abantu bari kwinjira mu miryango ikinguye yayo.

Ikigo kinini kirimo inyubako igeretse ifite utubara tugiye dutandukanye amagambo y'ubururu ari hejuru y'iyo nyubako, ibitaro byitiriwe umwami bya Fayisali, hakaba harimo abantu bari kugendagenda bambaye iby'ubururu bakora muri icyo kigo, bakoramo amasuku, n'umamu uhetse umwana ufite umutaka n'agasakoshi gatukura n'abandi bari kugenda iruhande rwe.

Ahantu hari inyubako zitandukanye zifite amabati atukura n'uruzitiro rw'amatafari ahiye, hirya hakaba hari ibiti ndetse n'inkingi zifashe amabati, itara ry'umweru ritari kwaka n'akandi kantu kari iruhande rwacyo.

Inyubako zitandukanye ziri imbere y'ahantu hari ibyatsi n'uruzitiro rw'icyatsi ruriho akantu gasa n'ubururu k'akapa kagaragaza ibikorerwa muri icyo kigo, imbere y'izo nyubako hakaba hari intebe zihateretse n'akugi k'umukara.

Ahantu harimo ibyatsi hakotirijwe ibindi byatsi birebire bya pasparume, hakaba harimo utwapa dutandukanye tugaragaza ibikorerwa aho ngaho, hirya hari imodoka z'imbangukiragutabara n'izindi nyubako zikorerwamo.

Abagabo babiri bicaye imbere ya mudasobwa bakaba bameze nk'abari kwa muganga, umwe akaba yambaye rinete afite uruhu rwera n'isaha ku maboko y'umukara, undi akaba yambaye itaburiya yicaye ku ntebe y'ubururu n'umukara, hafi aho hakaba hari akantu bajugunyamo imyanda.

Abantu bagera muri bane batandukanyekaba umwe akaba ari kwinjira mu muryango ufite urugi rw'umweru, umamama wambaye ibitenge n'agatambaro k'umukara yicaye afite urupapuro mu ntoki ze, inyuma ye hahagaze umugabo wambaye ingofero yipfutse mu maso wambaye inkweto z'icyatsi, imbere yabo hari undi wicaye mu kagare gatwara abarwayi.

Abantu bari ahantu hasa n'aho hari gutangirwa ibyo kurya, hakaba hari abantu bambaye udupfukamunwa n'uturindamisatsi kuba yagwa mu biryo, hari abantu bambaye amataburiya imbere yabo ndetse n'abameze nk'aho bategereje ibyo kurya.

Umugabo uri kugenda mu kayira gatoya gasakajwe amabati afite inkingi za shokora, hirya hakaba hari ibyatsi bihakikije n'izindi nyubako, inyuma ye hari abantu batandukanye bicaye ku ntebe n'abahagaze bambaye imyenda y'umweru n'uwambaye iroza.

Icyumba kimwe gihagazemo abantu batandukanye bose bambaye ibya orange n'ingofero z'umukara, umwe akaba afashe ku ibendera ry'igihugu, akaba amanitse akaboko ameze nk'uri kurahira, inyuma ye hari abambaye imyenda y'umukara irimo akantu k'umweru.

Abagabo babiri bicaye amaboko yabo bakaba bayegetse ku meza, umwe yambaye imyenda y'umukara n'agapfukamunwa k'umukara harimo akabara k'umweru, afite igikapu mu ntoki ze, mudasobwa iri iruhande rwe ruguru, undi yambaye imyenda y'iroza n'amarinete, agapfukamunwa k'ubururu n'agasaraba mu gatuza ke.

Abantu bicaye mu cyumba gisa naho kiri gukorerwamo inama, umugabo wambaye rinete, akaba yambaye karuvati irimo utubara tw'umweru y'ubururu n'agashati na kositime, hirya ye hakaba hari abandi bagabo n'umugore, bakaba bambaye utuntu tw'ubururu mu gatuza kabo.

Abantu bari mu cyumba kiri kuberamo inama, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, bambaye imyenda, umugabo uri hagati wambaye rinete, umukobwa wambaye uduherena tw'umweru n'akantu mo imbere k'umweru, imbere yabo hari ibitabo.

Abantu benshi bicaye hasi mu byatsim hakaba hari umugabo uhagaze inyuma yabo wambaye imyenda y'umukara n'umweru, imbere ye hakaba hari undi muntu ufite umutaka, hakaba hari ibiti hafi aho ngaho, abantu bicaye bafite ibipapuro biri ku meza n'umumama uhagaze wambaye igitambaro gisa na oranje mu mutwe we, hino hakaba hari umugabo wambaye ishati y'igitenge irimo ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Abantu benshi bicaye ahantu mu byatsi, imbere yabo hakaba hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'igitenge n'abandi bicaye ku ntebe z'imbaho n'ameza, umumama wambaye agatambaro gasa na oranje n'abandi bamwicaye iruhande.

Abantu bari mu cyumba gisa naho kiri kuburanishirizwamo umugabo wambaye ikositime n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara n'agapfukamunwa, iruhande rwe hakaba hahagaze abagabo bambaye imyenda y'umukara n'uwambaye agapfukamunwa, inyuma hakaba hari abandi ku ruhande abicaye n'abagaze.

Abagabo batandukanye harimo abicaye n'abahagaze bari imbere y'ipoto ry'urusinga rw'amashanyarazi, hirya hakaba hari ibiti biri iruhande rwabo n'ibyatsi, bakaba bambaye imyenda y'iroza bose bakaba bafite umutwe utariho umusatsi.

Ahantu hicayemo abantu benshi batandukanye hakaba hari undi uhagaze yambaye agapira k'umweru, inyuma hakaba hari uwambaye ishati ya karokaro, imbere hari intebe yicayeho abantu batatu wambaye imyenda y'iroza n'agapfukamunwa, n'abandi bambaye umukara n'umweru.

Umugabo wambaye imyenda y'ama amara avangavanze, akaba yambaye linete, akaba yicaye mu meza asa n'ibara ry'umweru harimo n'utubara tw'umukara, hirya hakaba hari akabati kari mu mbaho hakaba ariho amafoto, hejuru hakaba hariho uduseke n'indi mitako itandukanye.

Abantu bari imbere y'inyubako ndende igeretse ifite ibirahure birebire iri mu ibara ry'umukara n'umweru, hakaba hari imodoka zisohotswemo n'abantu bambaye imyenda y'iroza ndetse n'abandi bambaye ingofero...

Icyumba kimwe kirimo abantu b'ingeri zitandukanye abicaye n'abahagaze, hagati hari abantu bambaye imyenda y'umukara, iruhande rwabo hakaba hari amabendera y'igihugu cy'u Rwanda, bakaba bameze nkaho bari kurahira bamanika amaboko, iruhande rwabo hari...

Abantu bicaye mucyumba kirimo intebe zitandukanye, bakaba bose bambaye udupfukamunwa, umugabo wambaye iby'umukara n'ikanzu n'agapfukamunwa, afite mudasobwa n'ikaramu mu ntoki ze n'abamwegereye bafite ibintu bitandukanye.

Abana batandukanye bari kunyura ahantu hari utubuye dushashe, bambaye imyenda isa naho ari iy'ishuri, imbere yaho hari abagabo bambaye imyenda y'umukara bameze nk'abapolisi, umuhanda muremure usa naho waguyemo imvura na moto, inyubako y'umutuku iri inyuma yaho.

Ahantu hateretse ibyuma bibiri byifashishwa mu kuzimya umuriro, iyo habaye inkongi y'umuriro, bizwi ku izina rya kizimyamwoto, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, kakaba gafite ibara ry'umutuku ndetse n'umunwa w'icyatsi.

Abagabo n'abagore batandukanye bambaye imyenda y'umukara n'ingofero ku kaboko kabo k'ibumoso hariho icyapa cyangwa se idarapa ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere yabo bafite udukayi mu ntoki zabo n'imbunda bahetse ku rutugu rwabo.

Imodoka zitandukanye ziri mu muhanda, umugabo wambaye imyenda y'umukara wanditseho Polisi n'ingofero, afite akantu mu ntoki ziwe n'irangamuntu y'umuntu utwaye iyo modoka akaba ari kumwandikira.

Abantu b'ingeri zitandukanye bambaye udupfukamunwa. Hari abahagaze n'umudamu ufite igitambaro mu ntoki ziwe urigupfuka isafuriya iteretse kuri gaze. Imbere ye hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara hariho ikirangantego ku ngofero ye cya polisi y'Igihugu cy'u Rwanda.

Agace gato k'umuhanda hino hakaba hari utwatsi ndetse n'icyapa kirekire cy'umweru kirimo amagambo y'ubururu, n'akandi kantu kameze nk'agasaraba k'umutuku n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, hagati mu muhanda harimo umugabo wambaye iby'umukara, hakurya hari ikindi cyapa.

Abantu bari ahantu hari kubera igikorwa cyo kwamamaza, bafite amadarapo mu ntoki zabo arimo ibara ry'icyatsi n'umweru n'ubururu, hakaba hari ishitingi na yo y'umweru n'icyatsi, bakaba bari kubyina.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze mu cyumba kimwe, abadamu bambaye neza mu myenda ijyanye n'umuco wa kinyarwanda izwi ku izina ry'imikenyero, abagabo nabo bambaye amakositime amakote n'amakaruvate.

Abantu benshi bari ahantu hari gukorerwa igikorwa cyo kwamamaza umukandida, bakaba bafite icyapa mu ntoki, bakaba babyambariye bambaye imikenyero, abambaye amakote, n'imipira ishushanyijeho uwo mukandida.

Abantu bagera kuri bane, abagabo batatu n'umumama wicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi ya nili, inyuma hariho icyapa kiriho ingingo zitandukanye bari kuganira kuko basa nk'abari mu nama, harimo umwe uhagaze ufite akuma k'inyakiramajwi mu ntoki.

Abantu benshi bicaye imbere ya shitingi y'umweru n'ibindi byapa biriho byamamaza FPR inkotanyi, hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umweru ufite akuma kasakaza amajwi

Umugabo wirabura wambaye ingofero y'umweru n'amarinete, usa naho akambije agahanga, yambaye ishati y'umweru, imbere ye hari inyakiramajwi zizwi ku izina rya mikoro, zitandukanye, ubururu n'indi irimo utubara dutandukanye n'izirimo ibara rya oranje.

Umuntu wambaye ikoti rya orange ririmo utuntu tw'umweru n'jipo itukura agasa ku kaboko turinete n'uduhere n'ufite agasatsi k'umukara ari gusinya ku mpapuro hirya ye hari abantu bari kumufotora, n'umugabo umuhagaze iruhande wambaye imyenda ya kacyi na mudasobwa, iri imbere y'abo bagabo.

Abantu bari ahantu basa naho bari kwamamaza, imbere bakaba bafite ibipapuro bamanitse hejuru abandi bameze nkabari gukoma mu mashyi, umugabo wambaye ingofero ya oranje n'agapira n'ikote n'abandi bamuri iruhande.

Umumama wicaye ku ntebe y'umukara afite imisatsi myiza miremire, wambaye agakufi mu ijosi rye n'uduherena, yambaye imyenda isa n'iroza, iruhande rwe hari ibendera ry'igihugu, hafi aho hakaba hari utundi tuntu tutagaragara neza.

Umama wicaye ahantu hawe wenyine, iruhande rwe hakaba hari igishushanyo cya mu mbahoho, gifite ibara rya shokora, akaba yambaye imyenda y'ubururu, amarinete, imisatsi y'umukara migufiya, impeta ku gatoki k'iwe.

Abantu benshi bari ahantu hari kubera inama umugore n'umugabo bicaranye, umugabo wambaye rinete imbere ye hakaba hari agacupa k'amazi y'Inyange wambaye ikositimu na karuvati, n'undi wambaye ikanzu ni umumama irimo utubara dutandukanye umuhondo...

Umumama w'imibiri yombi wambaye akantu mu ijosi rye n'igitenge kirimo amabara atandukanye, ufite ibitabo mu ntoki ziwe, umusatsi mwiza w'umukara n'indabo ziri ku ruhande rwe, inyuma hakaba hari agace gatoya k'ibati kari kugaragara.

Abagabo n'abagore bambaye neza, umudamu wambaye imikinyero akaba afashe ku ibendera ry'igihugu amanitse akaboko n'abandi nabo bikaba ari uko, bakaba basa n'abari gukora igikorwa cyo kurahira mu nyubako irimo utuntu turi ku ruhande twiburungushuye.

Ahantu hari shitingi y'umweru irimo intebe, hakaba harimo abantu bambaye imikenyero irimo ibara ry'icyatsi n'umuhondo, umumama ufite inyakiramajwi mu ntoki ziwe wambaye rinete intoki ziwe ebyiri zirarambuye, undi afite urupapuro mu ntoki ze yambaye ingofero.

Imodoka nini y'ubururu imbere hakaba ari umweru. Hari umumotari utwaye moto uri imbere yayo, n'indi modoka y'umutuku ivanze n'umukara. Icyapa kinini cy'amagambo yanditseho mitsingi riri mu ibara ry'umutuku na shokora.

Umuhanda uri kunyuramo bisi ndende y'umutuku, iriho amagambo y'umweru ashushanyije imbere ku kirahure, hirya hakaba ari abanyamaguru bari kugenda n'umuyonzi uri iruhande rwabo, imbere y'iyo modoka hakaba hari ayandi magare ari kuhatambuka.

Imodoka nini cyane ihagaze irimo abagenzi, ikaba iri mu ibara ry'ubururu n'umweru mo imbere harimo utuntu tw'umuhondo, umugabo wambaye ipantaro n'umupira harimo n'utubara tw'umukara n'umweru n'umutuku.

Umuhanda muremure w'umukara urimo imodoka nini y'umweru ifite amapine y'umukara n'agatara k'umuhondo harimo umugabo, imbere yawo hari umunyonzi wambaye ingofero itukura n'inkweto z'umuhondo utwaye igare rifite umusego uriho akantu k'icyatsi n'umutuku.

Abamotari bicaye kuri moto zabo ahantu hari ibiti, imbere hakaba hari umuhanda uri kunyurwamo imodoka, abagenzi bari ku ruhande rwaho n'izindi nyubako ziri inyuma aho ngaho zitandukanye, imodoka z'abagenzi.

Ahantu hahurira abantu n'imodoka, harimo imodoka nini y'ubururu irimo umweru n'umuhondo ku ruhande, mo imbere hakaba harimo umugabo uyitwaye iruhande rwayo hakaba hari umumama wambaye itaburiye y'icyatsi n'utundi tuzu turimo ibikorerwa biri kwamamazwa.

Umuhanda uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, moto, n'imodoka nini y'umweru irimo umugabo wambaye agapira k'icyatsi, hakurya y'umuhanda hari umugenzi wambaye umupira w'umweru, n'uwikoreye imifuka ibiri wambaye ubururu. Umumotari uhetse ikintu cya nyaruka.

ikamyo nini y'umweru n'umukara ifite akantu k'umuhondo kuruhande haririmo abagabo bambaye imyenda yubururu umunyonzi wambaye agapira ka orange ari kuruhande rwayo numugabo wambaye imyenda yumukara uri kugaragaraho agace gatoya n'umuferege w'amazi.

Imodoka nini cyane yo mu bwoko bw'ikamyo iri kugenda mu muhanda munini ufite ibara ry'umweru n'utugambo tw'ubururu twanditse ku ruhande rwawo hirya hari inyubako zitandukanye zikorerwamo ubucuruzi n'abantu bahagaze imbere yaho n'imodoka, imitaka ,ipoto ry'amashanyarazi n'icyapa kinini cyane cyanditseho ibikorerwamo.

Umuhanda urimo ikamyo y'icyatsi itwikirijwe shitingi y'ubururu hakaba hariho umukara ku ruhande na ka oranje, umugabo utwaye igare uri ruguru yayo, hakurya y'umuhanda hari umumama wambaye ikanzu y'ubururu n'agakote k'umukara.

Imodoka imwe nini cyane iri mumuhanda w'umukara izwi ku izina ry'ikamyo, ifite ibara ry'icyatsi n'umutuku, amagambo y'ubururu n'umweru, ari kumwe ku ruhande rwayo.

Ikamyo iparitse mu muhanda, inyuma yaho hakaba hari inyubako zitandukanye n'imodoka ziri kugenda mu muhanda, ibishushanyo bigaragaza ibicururizwa muri iyo modoka, hakaba harimo n'uducupa tw'amavuta yo kwisiga dutandukanye.

Ikamyo nini y'umuhondo irimo utubara tw'icyatsi ku ruhande n'ubururu n'umukara, hejuru hakaba hari umugabo wambaye ingofero uri kuyigenda imbere, hakurya y'umuhanda hari ibiti n'umuferege unyuramo amazi.

Umuhanda muremure w'umukara urimo ikamyo nini ifite ibara ry'umuhondo n'umweru, imbere yaho hari umunyonzi utwaye igare, hari na sitasiyo ya lisansi hirya hari imodoka ziparitse imbere yaho.

Umuhanda munini urimo ikamyo y'ibara ry'icyatsi, harimo n'amabara y'umweru shitingi itwikije ibyo itwaye, inyuma hari umugabo wambaye iby'umukara, usa nk'aho ari gukoraho n'izindi modoka ziri hafi aho, umumotari utwaye umugenzi uhetse agakapu mu mugongo.

Umumama uhagaze imbere y'indobo irimo ibisheke ikindi akaba agifite mu ntoki ze ari kugihata, hirya hakaba hari moto itwawe n'umuntu iriho shitingi y'umweru, hirya akaba ari umugenzi uhagaze ku ruhande wambaye akenda k'umuhondo.

Agace gato ku muhanda karimo imodoka ebyiri n'agace ko hino k'inzira y'abagenzi karimo abagenzi bari kugenda, uwambaye umupira wa orange n'ipantaro y'umukara, akapa k'ubururu kari inyuma yaho. Imbere hakaba hari inzira nyabagendwa.

Umuhanda uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, inyuma hari imodoka y'umweru na moto iyiri imbere irimo shitingi y'ubururu n'agace gato k'imodoka itagaragara, hakurya hari abantu bambaye imyenda itandukanye, uwo muhanda ukikijwe n'ibyatsi n'ibiti.

Moto itwara imizigo, ikaba ifite shitingi y'umukara ikaba ari ubururu itwawe n'umugabo wambaye imyenda y'umukara, iruhande rwe hari umunyonzi uhetse umufuka muremure, umusego akaba yawushyize hejuru usa shokora yambaye ingofero itukura.

Umuhanda w'umukara urimo akamoto gatwara imizigo, harimo imizigo itandukanye gatwikirijwe shitingi k'ubururu, imbere y'aho hari amapoto maremare n'amatara yo ku mihanda, hirya hari akapa n'abagenzi bahagaze imbere y'ako, n'imodoka iri kwinjira mu wundi muhanda.

Ikamyo nini iriho shitingi y'umweru n'icyatsi, hakaba harimo umugabo uyitwaye, hirya hakaba hari ibiti bikikije umuhanda, hino hakaba hari amabuye ari mu kayira kanyuramo amazi.

Imodoka nini y'umweru ifite utuntu ku ruhande tw'umuhondo n'agatara hejuru ka oranje irimo umugabo wambaye umukara, hino hari umuferege uyuramo amazi, hakurya hari ibiti n'ibyatsi bitandukanye.

Ahantu haparitse imodoka ebyiri, ruguru yaho hakaba hari ibyatsi, hagakoturizwa urugo rurimo ibara ry'umuhondo, hamamaza ibikorwa bya emutiyeni, hirya hakaba hari akazu nako kamamaza ibindi bikorwa bitandukanye.

Ikimodoka kinini cyane gicanye amatara hejuru hakaba hari amagambo ari mu ibara ritukura, mu imbere harimo intebe n'utundi tuntu tw'umuhondo hakurya hari abantu, hari iminara itandukanye.

Ikimodoka kinini cyane cy'umutuku, gifite utuntu tw'umweru ku ruhande, amapine y'umukara, gitwikirije shitingi y'ubururu umucanga uri kugaragara uruhande rumwe, hirya hakaba hari ibiti ndetse n'amatara ku muhanda hino hakaba hari umuferege unyuramo amazi.

Ikamyo y'ubururu irimo igenda mu muhanda, inyuma hakaba hari umumotari wicaye kuri moto yiwe, wambaye ikote ritukura na kasike y'ubururu, hakurya hakaba hari indi kamyo nini n'ibiti biri iruhande hafi aho ngaho ku umuhanda...

Imodoka nini cyane y'umweru izwi ku izina ry'ikamyo, hari iruhande rwaho akamodoka gatoya gatukura, umugabo uri ku igare n'undi ahetse wambaye ishati y'ubururu, uwo nawe akaba yambaye ingofero n'udukweto tw'umuhondo n'ikabutura.

Ahantu hahurira imodoka zitandukanye n'abantu benshi, harimo imodoka z'umweru, umugabo wambaye ipantaro y'ubururu na sandali wifashe ku mazuru, inyuma ye hakaba ari undi wambaye ingofero itukura n'akantu k'umukara, ishati y'umweru, imbere hakaba hari abantu b'ingeri zitandukanye.

Imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda ikaba irimo umushoferi, hakurya hakaba hari abamotari batwaye moto ndetse n'abagenzi, ku ruhande hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'undi wambaye umukara bari kugendera ku ruhande rw'abanyamaguru, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti n'indabo.

Umuhanda uri kunyurwamo n'imodoka ebyiri nini cyane harimo iri hirya ifite ibara ry'ubururu n'umweru, hino hakaba hari itukura n'ibara ry'umweru, inzira y'abanyamaguru iri kunyurwamo n'umugabo wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'ubururu, imbere ye hakaba hari undi wambaye ishati iciyemo uturongo n'ipantaro y'umukara.

Inyubako zitandukanye zikorerwamo ubucuruzi, hari ibyapa bigaragaza ibikorerwamo imbere yaho, hanze hasi hari abantu b'ingeri zitandukanye, bari kugendagenda mu muhanda, hino hari umuhanda munini w'imodoka uri kugendwamo ikinyabiziga cy'umumotari.

Icyapa kinini kiyobora abagenzi kikaba kiri mu mabara amabara atatu mu ishusho ya tiriyangere, harimo umugabo n'umwana bari kwambuka umuhanda, ayo mabara akaba ari umutuku umweru n'umukara bigize icyo cyapa.

Akayira gatoya k'ibitaka gahagazemo ipoto rifite insinga z'amashanyarazi hirya hakaba hari uruzitiro rw'umweru n'ibyatsi bihakikije n'ibiti, inyubako iriho ibyapa bigaragaza ibikorerwamo amagambo y'umweru ari mu cyapa cy'umuhondo handitsemo irembo.

Ahantu hari ibiti n'icyapa kiyobora abagenzi, kiri mu ishusho y'uruziga harimo n'akabara gatukura, amagambo y'umukara harimo umubare wa gatandatu na zeru, hasi hakaba hari ikindi gisaba abatwaye kugenda gake.

Mu muhanda w'umukara urimo uturongo tw'umweru, hakaba harimo moto zicaweho n'abamotari bazitwaye, hakaba hari ibyapa bitandukanye, ibiti bikikije uwo muhanda n'umuferege w'amazi, hakaba hari icyapa cyanditseho tagisi kiri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye imyenda itukura uri kugenda mu muhanda munini, imbere hari umumama wambaye ikanzu y'umweru, akaba ari kwinjira mu gapangu gafunguye, hakaba hari inyubako ndende igeretse, igiti kiririmo aho ngaho, hafi aho hari umugabo n'umusaza n'umukecuru...

Icyapa kinini cy'umweru kiho amagambo y'umukara, hakaba hariho akari mu kaboko k'iburyo kagaragaza muri metero ijana. Hasi hari amagambo ariho umudugudu, akagari n'umurenge.

Inyubako zikorerwaho ubucuruzi butandukanye, ruguru hakaba ari ahantu hariho ibipupe biriho imyenda hanze ndetse n'icyapa kinini cy'ubururu kigaragaza ibikorerwa muri iyo nyubako, hashushanyijeho milliki zone hakaba hakorerwamo ubucuruzi bw'amata n'ibindi.

Umugabo utwaye moto ari imbere y'igipangu cy'umukara, kikaba gifite urugo ruzitijwe n'amatafari ahiye n'ibyatsi hejuru yaho, mo imbere muri yo hakaba harimo ibiti n'inyubako y'umweru ifite amabati asa n'ibara ry'ivu.

Agace gato k'igipangu kari kugaragara, hakurya hakaba hari amazu n'ibiti bitandukanye, inyubako ifite ibara ry'icyatsi n'amabati atukura, hakurya hakaba hari izindi nyubako zitandukanye.

Agace gato k'umuhanda karimo ibinyabiziga bitandukanye higanjemo moto, umumotari ugiye gutwara umugenzi, umukobwa wambaye akajipo k'umukara n'agashati k'umweru ufite isakoshi mu ntoki ze, ruguru hakaba hari umugabo ndetse ruguru hakaba hari imodoka, inyubako zifite amabara atandukanye.

Umuhanda munini w'igitaka urimo utubuye dutoya, munsi yawo hakaba hari ibipangu bibiri bitandukanye, icy'umukara kirimo agahondo gakeya n'icyatsi kirimo umweru, munsi yawo hakaba harimo inzu ifite amabati atukura, hirya hakaba hari ibiti bitandukanye n'ibyatsi.

Inyubako igeretse kabiri ikaba irimo oranje ku ruhande, hirya hakaba hari ibiti bitandukanye, imbere yaho hakaba hari ibyatsi, igipangu kirimo amabara atandukanye.

Inyubako ndende igeretse irimo ibara ry'umweru n'ubururu, amagambo ari mu ibara ry'icyatsi yanditsemo zigama n'akandi gafureshi kari ku ruhande, igiti kinini kiri iruhande rwayo n'ibindi byapa bigaragaza bimwe mu bikorerwa muri iyo nyubako.

Inyubako ndende y'umuhondo ifite utudirishya tw'umukara ibigega biri hejuru n'utuntu twa umutuku turi ku ruhande rwaho, insinga z'amashanyarazi n'indi nyubako iri inyuma yaho ifite amadirishya manini.

Agace gato k'uruzitiro, mo imbere hakaba harimo agace kandi k'amabati ndetse n'akandi kantu k'umweru, kagaragaza insakazamashusho, hakaba hari urutsinga ruri kunyuramo hagati, hakurya hakaba hari inyubako zitandukanye harimo n'izigeretse.

Inyubako zitandukanye ziri ahantu harimo izigeretse n'inzu n'ibitararangira neza, ibyatsi n'ibiti bihakikije inyubako zifite amabati atukura n'indi y'umweru nini cyane, imbere yaho hakaba hari ibigega birebire by'umukara.

Agace gato k'umuhanda w'amabuye hari uruzitiro rw'amatafari ahiye ruriho utugiriyaje tw'umweru, mu imbere hakaba harimo ibiti, ruguru hakaba hari amafoto ariho insinga z'amashanyarazi akikijwe n'amabuye.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo igare ririho umunyonzi uritwaye, n'umumotari uhetse umugenzi hirya hari ibyatsi n'ibindi bimodoka bitandukanye biri hakurya y'uwo muhanda, hakaba hari ikirimo umuhondo, umutuku, n'umweru.

Umuhanda munini ukikijwe n'ibiti n'inyubako zitandukanye, ukaba urimo ibiri, amatara kumuhanda, hepfo hakaba hari umugenzi wambaye umupira w'umweru n'ingofero, ipantaro y'umukara, hirya hakaba hari icyapa cy'ubururu.

Umuhanda munini ukikijwe n'ibyatsi n'ibiti bitandukanye, hakaba harimo imodoka na moto, hakurya hakaba hari utubuye dushashe mu muhanda ugenewe abanyamaguru n'utuntu two ku ruhande tw'umukara n'umweru.

Agace gato k'umuhanda muremure urimo imodoka iri kugenda n'umuyonzi utwaye igare, hakaba hakikijwe n'ibyatsi n'uruzitiro rukikijwe n'amabuye, iruhande rwaho hari n'udupurenti tw'umukara n'umweru, amatara ku muhanda.

umuhanda munini urimo uturongo tw'umweru, tugaragaza aho abagenzi bambukira hirya hakaba hari imodoka ziri kunyura mu wundi muhanda, hakaba hepfo ya ho hari abagabo bahagaze n'izindi nyubako zikorerwamo ubucuruzi, hakaba imbere ya ho hari ifoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda urimo ahantu abanyamaguru bambukira, hirya hakaba hari itara ryo ku muhanda, abamotari batwaye abagenzi bari muri uwo muhanda n'ibiti bihakikije bitandukanye n'inyubako zihakikije.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye hirya yawo hakaba hari ibindi binyabiziga bisa n'ibihaparitse, biri mu ibara ry'umuhondo, hakurya hakaba hari inyubako igeretse, mu muhanda rwagati harimo umunyonzi utwaye igare.

Umuhanda munini uriho ikiraro hejuru nacyo kirimo undi muhanda muremure n'itara rinini riri kumurika, ibyatsi biri hirya y'uwo muhanda n'ibiti, hakurya hakaba hari ibinyabiziga bitandukanye n'abagenzi bahagaze ku ruhande.

Umuhanda munini urimo imihanda itandukanye, hakaba harimo n'ibinyabiziga biri kuwunyuramo, ukaba ukikijwe n'ibyatsi n'ibiti, amatara ku muhanda n'ikiraro kiri kugenda hejuru y'uwo muhanda, akapa k'ubururu karimo udufureshi tw'umweru.

Umuhanda munini uri hejuru y'undi, hakaba hari amatara ari hejuru yawo, hasi hakaba hari abanyonzi ndetse nn'amagare yabo, hirya ha akaba ari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, icyapa cy'icyatsi, mbere yaho hakaba hari igiti ibyatsi ku ruhande n'izindi modoka zitandukanye.

Agace gato k'umuhanda karimo umumotari uhetse umugenzi wambaye amakasike y'ubururu uwo mugenzi, akaba ahetse igikapu hirya aho hari abagenzi bari kugenda mu muhanda, akikijwe n'ibiti n'inyubako zitagaragara neza ziri ku ruhande hirya y'uwo muhanda.

Umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, hakaba hari ahantu hagenewe kwambukira abagenzi hari kunyuramo imodoka y'umweru, hirya hari icyapa gitukura kiriho amagambo y'umweru, hari itara ryo ku muhanda ndetse n'ibiti bihakikije...